Ishuri ry'inshuke hari ibikoresho byinshi, hari urwicundo rw'abana bato, byose biri mabara y'umutuku n'umweru, ni byinshi ibyo bakenera byose buri munsi.

Ni ibipupe byinshi by'amoko atandukanye, biri hamwe ndetse n'ibindi bikinisho n'ibyabana b'inshuke bifashisha iyo bari kwiga. Abarimu babo barabifashisha babibasobanurira.

Ni mu ishuri ry'inshuke, hari icyapa kimwe cyanditseho Ngabo, gishushanyijeho udutima, ni umutuku, kigisha abana gusoma neza Ikinyarwanda.

Inyubako y'ishuri, iriho ibishushanyo bitandukanye, ibimera, amasuka, ingorofani, umuntu, ibice bye, ibi bikaba byifashishwa mu kwigisha abana kumenya, byinshi bitandukanye.

Umunyeshuri wambaye ijipo y'ubururu, yambaye ishati y'umweru. asa n'aho avuye muri tuwarete ku shuri, ku kigo cyamashuri cya pirimeri ndetse n'ay'inshuke.

Abana b'inshuke bambaye iniforume z'umuhondo hejuru, hasi umukara, bicaye hamwe ni benshi bari kumwe n'ababyeyi babo babitaho bya buri munsi barimo barabaha ibyo kurya.

Udupupe dutatu duteretse ahantu, utu dupupe tukaba twifashishwa mu kurera abana bo mu myaka yo hasi, cyane cyane nasari, kugira ngo babashe kwishima banafate mu mutwe.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke baba bafite ibikoresho byinshi bibafasha kwiga hano hari ibikoresho byinshi mu mabara menshi atandukanye bishushanya abantu bafatanye ndetse abandi bari hejuru yabo n'abandi mu mpande.

Udukinisho tw'abana ari gakozwe mu modoka dukozwe mu tudobo, udukoresho turambitse hasi, ibi byose bikaba bibafasha mu gukuza ubwenge bwabo, bagira ubumenyi bunguka buvuye kuri ibi bikoresho.

Bari kubyina imbyino gakondo, ni abana biga materineri, ni batoya cyane, inyuma yabo harimo abari ku bafana, babakomera amashyi kubera ko bari kubyina neza.

Udukoresho tugiye dutandukanye, akaba ari udukoresho bifashisha bigisha abana bo mu mashuri matoya nasari kugira ngo barusheho kugira ubumenyi ku bintu bitandukanye.

Bahagaze imbere y'ishuri, ni abana biga mu mashuri abanza, bafite ababyeyi baje kubumvira amanota iruhande rwabo, bahagararanye n'abarimu.

Ingorofani, ibikoresho byo mu bwubatsi bikaba bifasha mu kwigisha abana bakiri bato kumenya ibyo biga ibyo aribyo cyane cyane abo muri nasari.

Akana kameze nk'agashushanyo niko kari iruhande rw'ibipirizo binini biri mu mabara nk'umuhondo, umutuku n'ubururu, kajya guterura kimwe, ni udukinisho tw'abana b'inshuke.

Ni ku ishuri ry'abana bato b'inshuke, hari ibishushanyo byinshi, byerekana abantu, amagare, imitima n'ibindi byinshi, ni imbere y'ibyatsi bisa nk'ibyumye.

Inyubako isa nk'izamuye cyane iriho ibindi bintu biyishamikiyeho nk'imitaka ndetse n'ameza, aho kwicara harahari, ni ibikoresho byifashishwa n'abana b'incuke.

Mu kigo cy'amashuri abanza hari inyubako nyinshi ndetse hari n'amajaride menshi y'indabyo nziza ni ikigo kinini cyane.

Inzu y'igorofa ifite imiryango myinshi, ifite amarangi y'icyatsi kibisi, hejuru hari abantu bambaye iniforume, ni mu kigo cy'amashuri abanza.

Hari ibitabo byinshi, ibikoresho byinshi bitandukanye, amakaramu n' ibikoresho byifashishwa. Ahantu hatandukanye nko muri siyanse.

Ni akayira gakomeza karimo amapave mo hagati na hagati harimo izindi nzira zishamikiyeho, hirya hari inyubako, ni amashuri abanza, hari n'indabyo ndetse n'ubusitani bwiza.

Inyubako nziza isukuye ni mu kigo cy'amashuri y'abana amashuri abanza bicara ku dutebe twiza ndetse ku matabure meza hariho ibikoresho byabo bifashisha.

Ni imibare iri ku tuntu tumeze nk'uduti, rimwe, gatatu, kane, umunani, zeru, icumi, gatanu gutyo gutyo, ni imibare yifashishwa n'abana biga mu mashuri abanza.

Ibi ni ibishushanyo biba bishushanyije ahantu ku gikuta bifasha abanyeshuri mu burezi bw'ibanze kumenya ndetse no gusobanukirwa ibyo biga neza.

Uwera urugero rwiza ni igitabo cyifashishwa n'abana biga muri pirimeri, ni igitabo cyo gusoma kiriho amashusho y'ibirunga ndetse n'amazi meza.

Mu kigo cya pirimeri aho hari ibikoresho byinshi abana bifashisha mu myigire yabo. Hari amakereyo, amarate, imikasi n'ibindi bifashisha bari kwiga.

Ni ku kigo cy'amashuri aho hari ubusitani bwinshi, hari n'utuyira tugenda tunyuramo ni mu mashuri abanza, hari abantu bari muri siporo ni benshi baratandukanye.

Aha ni ubwiherero bw'abanyeshuri bukaba bufite inzugi ziri mu ibara ry'ubururu, hari abantu hirya ndetse bukaba bukikijwe n'ishyamba ku ruhande.

Ikigo cy'amashuri cya pirimeri hari, ibishushanyo bigeze muri bitanu, biri kwerekana uburyo ki umuntu akora imodoka, mu biti ndetse agashyiraho n'amapine, akayigendesha.

Ni abana batatu, babiri ni abakobwa, umwe muribo ni umusore, ahagaze hagati yabo bambaye iniforume yo mu kigo cy'amashuri abanza, hirya gato hari ikigo cy'amashuri abanza bigaho.

Ikinyugunyugu gifite amabara y'umuhondo, umukara n'umweru, ni igishushanyo abana ba pirimeri bifashisha, hirya yacyo hari uturabyo bashushanyije kugira ngo kijye kijyaho, ni mu ishuri ribanza.

Aha ni ku kigo cy'amashuri, hari icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu kwigisha abana, uburezi bw'ibanze no kumenya ibikoreko bitandukanye.

Ni ikigo cy'amashuri ya pirimeri, hari ikigega gifata amazi ndetse hari n'urukarabiro rwubatswe n'amakaro, ni ikigo cy'amashuri abanza cy'abanyeshuri.

Udukoresho dutandukanye n'amabara atandukanye, imibare, ibimenyetso byo guteranya, gukuramo, bihwanye, ibi byose byifashishwa mu burezi bw'ibanze.

Mu ishuri rya pirimeri aho abana bigira hari isomo ryigisha kubara, aho hari imibare kuva kuri rimwe kugeza ku icumi, baba bari kwiga kubara.

Umwana uri mu ishuri, ahagaze imbere y'abandi, arimo arasoma igitabo kirimo ibishushanyo ndetse n'amagambo, akaba yambaye impuzankano y'ishuri.

Ibi ni ibikoresho bitandukanye bigizwe n'inyajwi zitandukanye bibajwe mu mbaho: hari uducupa, hari amakureri, hari intebe. Bigaragara ko ari ibikoresho byifashishwa n'abana biga mu myaka yo hasi.

Buwate ebyiri imwe irafunguye indi ntifunguye, ni buwate zifashishwa n'abana bo mu mashuri abanza, haba harimo ibikoresho bifashisha mu isomo ry'imibare.

Abanyeshuri bari kumwe n'umwarimu wabo bari ku murongo barimo baragenda, batonze mirongo ibiri Ibiriri, bari imbere y'ishuri bari guca mu kayira kabugenewe.

Bambaye bose udupfukamunwa, ni abagore babiri n'umugabo umwe, bahagaze bose bafashe mu ntoki igikarito bisa nkaho kirimo ikintu kiremereye, bari mu kigo cy'amashuri begereye amashuri abanza.

Imibare igiye itandukanye kugeza kuri karindwi, n'inyajwi zitandukanye z'ikinyarwanda, ibi ni bimwe mu bifasha mu burezi bw'ibanze ku bana bakiri bato.

Mu kigo cya pirimari, ni ibitabo byinshi bitandukanye, bifasha abana mu myigire yabo, ni ibitabo birimo ibishushanyijeho ibisimba bitandukanye.

Buwate ebyiri nizo ziri aha ziri kwifashishwa n'abanyeshuri bo mu mashuri abanza mu isomo ry'imibare, haba harimo ibikoresho byinshi bifashisha nk'amalate, amakereyo n'ibindi.

TTC Matimba ni ikigo cy'ishuri rya pirimeri harakinze ni kuri geti, geti ifite ibara rya shoko rijya gusa nk'umukara ni geti ikinze.

Ibishushanyo bitandukanye biriho abantu, hariho abahagaze akaba ari abana bato. Hejuru banditse ijambo ubugeni n'umuco bikaba byifashishwa mu kurera abana bato, babigisha ibintu bitandukanye.

Abanyeshuri b'ikigo runaka barahagaze hari n'abashyitsi babasuye bigaragare ko ari umunsi mukuru wahabereye cyangwa se ikirori runaka.

Ni ku ishuri rya segonderi, hari idarapomwa hagati ry' u Rwanda, amashuri arateganye hari umwarimu uhagaze imbere y'inkingi y'iryo shuri rimwe.

Abanyeshuri abakobwa n'abahungu bambaye iniforume bose, barahagaze bari kureba imbere yabo hari abandi banyeshuri, bisa nkaho hari ibyo bari kubasobanurira.

Bambaye iniforume y'umweru n'icyatsi bifubitse n'imipira y'icyatsi, bambaye amasogisi y'umweru, bambaye inkweto z'umukara, bicaye ku ntebe hirya no hino bagiye basigamo akayira.

Ni mu kigo cy'amashuri ya segonderi abakobwa n'abahungu bose biga muri icyo kigo bambaye iniforome kake hasi, hejuru ubururu. Abenshi bambaye udupira barikumwe n'abarimu babo barahagaze kugirango bifotoze.

Aha ni mu nzu y'ubusomero, bakunze kwita mu ndimi z'amahanga Layiburari, hakaba harimo ibitabo byinshi bitandukanye abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bifashisha basoma.

Abanyeshuri bari mu ishuri ni abahungu n'abakobwa bambaye iniforume zitandukanye, bicaye bateze amatwi umwarimu wabo ubari imbere arimo arabasobanurira.

Ni abanyeshuri ba segonderi bicaye hamwe bakurikiye inama bari guhabwa, bambaye iniforume zirimo burusiyeli n'umupira w'ubururu wo kwifubika, n'abanyeshuri b'abasore n'inkumi.

Iki ni igipangu, kigizwe n'ibyuma ku marembo, hakaba handitseho ngo ikaze mu kigo cya rukomo cy'amashuri yisumbuye.

Abanyeshuri bambaye imipira y'umuhondo, hasi bambaye imyenda ya kake, ni abanyeshuri ba segonderi bari hamwe bari kugenda bisa nkaho, bagiye mu gikorwa kimwe.

Abanyeshuri bambaye iniforume z'ikake hasi bambaye amashati y'umweru n'amakaruvate, bafite mu ntoki indangamanota bisa nkaho bazifashe basoje igihembwe.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba hari ibyo bari gusuzuma mu cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye.

Bari mu ishuri rya segonderi ni abakobwa bicaye ku ntebe bambaye iniforume icyatsi n'umweru. Bifubitse n'imipira yo kwifubika y'icyatsi. Bambaye n'amasogisi y'umweru n'inkweto z'umukara.

Abanyeshuri bicaye hamwe, bateze amatwi, ni abanyeshuri biga mu ishuri rya segonderi, bambaye iniforume, imbere yabo hahagaze umunyeshuri mugenzi wabo, bisa nkaho ari kubigisha ndetse na mwarimu yicaye imbere yabo.

Bari mu ishuri bamwe baricaye abandi barahagaze, ni umuhungu wambaye iniforume ya kaki n'umweru yifubitse n'umupira w'icyatsi, bagenzi be bari inyuma ye.

Iyi nyubako ni ikigo cy'amashuri gisizeho amarangi y'umuhondo ndetse kigizwe n'amatafari, hakaba hari ijambo ryanditseho ngo: "Nasari karase rumu boloke".

Ni muri segonderi abanyeshuri bicaye buri wese umwe umwe, umwe ari inyuma y'undi bisa nk'aho bari kubazwa, bicaye mu ishuri buri wese ari kwandika n'ikayi n'ikaramu bye.

Ni inzugi, ni amadirishya byose biteye irange ry'icyatsi kibisi, ni inzugi z'ibirahure, ni inyubako nini cyane ya kaminuza yigisha imyuga n'ubumenyingiro.

Ni kaminuza yigisha imyuga n'ubumenyingiro, ni ubusitani bunini burimo indabyo, ibyatsi ndetse n'ibiti bishinzwe kuzana umwuka mwiza muri kaminuza.

Ni mu ishuri ryigisha imyuga n'ubumenyingiro, ni kaminuza imbere hari umwarimu uri gusobanurira abanyeshuri, abanyeshuri bicaye bafite utumeza two kwandikiraho babiri babiri.

Abanyeshuri basoje icyiciro cya kaminuza, bafite ingofero mu ntoki zabo basa n'abishimye cyane, bambaye n'amakanzu y'umukara.

Uyu ni umuhanda werekeza kuri kaminuza y'imyuga iherereye muri Nyagatare, ikaba igizwe n'amapave ndetse n'ubusitani na pasiparume.

Aba ni abanyeshuri basoje kwiga bari mu kirori gisoza amashuri bambaye imyambaro yagenewe icyo kirori ubona ko harimo abakobwa ndetse n'abasore.

Abanyeshuri bigaga mu ishuri rikuru rya kaminuza ryigisha imyuga n'ubumenyiyingiro basoje amasomo yabo bambaye neza amakanzu n'ingofero bafite n'amabendera y'igihugu cy'u Rwanda.

Basoje amashuri yabo biga kaminuza, bambaye ingofero mu mutwe ndetse n'amakanzu, bahawe impamyabumenyi zabo.

Ni mu ishuri rya kaminuza ryigisha imyuga n'ubumenyingiro, hari intebe y'ubururu bisa nkaho umunyeshuri ayihagurutseho, iriho ikayi ndetse n'urupapuro rw'umweru.

Agatebe karekare udukoresho turi mu ibara ry'ubururu, inyubako ifite amakaro hasi ndetse n'ibyuma biri mu ibara ry'icyatsi, akaba ari ah'abantu bakorera ibikorwa bitandukanye.

Ibikoresho bya kinyarwanda harimo akabindi kari gashinzwe kubikwamo ubushera cyangwa ibigage, hari n'ibindi bikoresho bigakikije, ni muri kaminuza yigisha imyuga n'ubumenyingiro.

Kaminuza yigisha imyuga n'ubumenyingiro ni abanyeshuri bakuze bari kwiga, bari kumwe n'umwarimu ari kugenda asa nkaho bakosora umukoro yari yabahaye.